Umwana w'umuyeshuri wambaye iniforume, ari ku kigega cy'amazi, ari gufungura amazi, afite n'igikombe ubona ko ari amazi agiye kunywa.

Ni umubyeyi akikiye umwana, umwana urwaye, bari kumwe n'umuganga, umuganga ari gupfuka umwana ku musaya w'ibumoso, ubona ko umwana aha arwaye, bari ku kumuvura.

Abana batatu bicaye ku ntebe y'ishuri, inyuma yabo hari ikibaho, bakaba bateye intoki zabo hejuru, basa nkaho bari gusubiza umwarimu ubabajije.

Ni ivomero riri munsi y'umuhanda, umwana ari kovoma, undi ari kumuvomera, ari gufungura amazi, ku muhanda hari gucaho abantu, hari guca n'abanyeshuri bari gutambuka.

Hari ababyeyi batatu bafite abana batoya, hari umuganga hari n'umunzani, ubona ko abo babyeyi baje gupimisha abana babo ibiro ngo bamenye abana babo ibiro bafite.

Abana babiri barasutamye biyambaye imipira y'umutuku n'ikabutura y'ikigina, undi yambaye ipantaro n'ishati bisa by'icyatsi harimo n'utubara tw'umweru asutamye ku ivomera ry'amazi bari gukina n'amazi ubona ko bishimye.

Ni umuntu ubona ko ababaye afite ikintu cyamubabaje yuzuye agahinda n'umubabaro mu maso, ijisho rye riri guta amarira, arababaye cyane.

Umugabo n'umugore ariko bakuze kuko bafite imisatsi irimo imvi, umusaza n'umukecuru ariko bagikomeye bari muri siporo bagenda baganira bishimye ubona ko bari guseka.

Uyu musaza ukuze ari kumwe n'umumama amufashe mu kiganza, akaboko k'ibumoso k'uwo mu mama kari mu bitugu cy'umusaza ari kumufasha kumanuka ama esikariye.

Umukecuru wo mu gikoni cyo mu nzu arahagaze, afite isahani mu kaboko k'ibumoso iriho ibiryo, afite n'ifurusheti imwe mu kaboko k'iburyo agiye kurya ibyo biryo.

Ni umusaza uri kumwe n'umuganga w'umukobwa, bari mu cyumba cyo kwa muganga, bicaye ku ntebe, ku meza hari akamashini gapima umuvuduko w'amaraso, bari kumupima umuvuduko w'amaraso barebe uko uhagaze.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bike bitandukanye n'igitanda abarwayi baryama babavura, hejuru ku kikuta televiziyo hari igicupa cya ogisijene, hari akamashini gapima umuvuduko w'amaraso, hari n'intebe n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye kwa muganga bakoresha.

Ni inzu igeretse rimwe, ikaba isize amarangi y'umweru hose. Ikaba ifite igisenge, amabati asize ibara ry'ubururu. Kikaba ari ikigo nderabuzima cya Kinyinya.

Inzu nini igeretse bakunda kwita etaje isize irangi ry'umweru n'icyatsi cyerurutse, ku marembo yaho hari icyapa cyerekana serivisi zikorerwa muri iyo nyubako.

Hariba umubyeyi yashyize umwana we ku munzani ari kumupimisha ibiro, umwana w'uruhinja. Hari n'abandi babyeyi benshi bazanye abana babo kubapimisha ibiro.

Umugabo arwaye ari mu cyumba cyo kwa muganga cy'abarwayi aryamye ku gatanda acometse serumu, iruhande rw'ibumoso n'urw'iburyo na za mashini zo kwa muganga, urabona ko arwaye arembye.

Umugabo n'umugore cyangwa se umusore n'inkumi ubona ko bari bari muri siporo bateranye imigongo ariko baregeranye, buri wese arararamye afite icupa ry'amazi ku munwa ari kunywa amazi.

Ni musore uri muri siporo, ari mu myitozo ngororamubiri, ari gusimbuka ubuntu bw'ubudirisha yagiye ashushanya, iruhande rwe hicaye umukobwa ari kumureba.

Ni ku meza hateretse icupa ry'amazi, pome, icunga, hari na metero, hari ariteri ariko ariteri ihari ni y'ariteri baterurisha akaboko kamwe.

Ni abaganga bicaye mu cyumba cyo kwa muganga ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bose bafite ikaramu n'urupapuro bari kwandika. Imbere yabo bafite umuganga ubahagarariye ubona ko ari kubahugura, afite akoresheje imashini. Muri icyo cyumba harimo n'igitanda cy'abarwayi.

Umuntu wambaye ipantaro, akaba yavunitse ivi ry'ibumoso, ipantaro y'ukuguru kumwe kw'ibumoso yayihinnye, ipantaro ayigeza ruguru y'ivi, iryo vi ukabona ko ryavunitse ari gukandishaho barafu.

Ni igiti giteye hagati y'amazu hirya hari inzu hino hari inzu. Icyo giti kikaba kizwi ku izina ry'umuravumba, akaba ari umuti gakondo.

Umumama wambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi, umuhondo, umutuku, akaba ahagaze iruhande rw'indabyo, akaba agiye guca akarabo.

Icupa ry'umweru n'icyatsi amagambo yanditseho yandikishije mu ibara ry'icyatsi, iryo cupa rikaba ririmo isabune yogwa mu mutwe, ariko iyo sabune ikaba ikozwe mu bimera.

Ni umuntu uri mu bihuru wambaye ingofero y'umweru, ari gutotora utubari, icyo giti kikaba ari umuti gakondo ari gusoroma.